Ubu ngubu ni ubuvuzi rusange cyangwa se ubuvuzi bw'amahanga. aho aba baturage baba baje kwivuza, bitewe n'abaganga baba bagiye baturuka mu bi bice bigiye bitandukanye by'isi, baba bafite ubumenyi bwisumbuyeho kubaba basanzwe mu gihugu.

Aha ni mu nama y'abayobozi bashinzwe arabisi cyangwa se ubuzima. Aba kwiga uburyo kibateza ki cyangwa se bakomeza kurwanya indwara zandura ndetse n'indwara zitandura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Aha ngaha ni ku kigonderabuzima. Aho aba baturage tureba ko batameze neza pe. Abaturage ntabwo bishimye kuko abenshi ubuzima bwabo barumva butagenda, aho umuganga abapimira akabareba, akanabafasha kubaha imiti bitewe n'ikibazo yasanze bafite.

Iyi ni ishushombumbe cyangwa se igishushanyombonera cy'uburyo ubwonko buteye, iki gishushanyo kikaba gishyirwa ku mavuriro aho baba bavura indwara zigiye zitandukanye zituruka ku bwonko, aho umuntu ashobora kujya yaba mu buryo bwo kukugira inama cyangwag se kukuvura, muri icyo kibazo cy'ubwonko uba ufite.

Aha ni ku kigo cy'i Ndera cyangwa se ikigo gishinzwe kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, nk'ubu uyu mubyeyi urabona ko yishimiye umwana we, uyu mwana yavutse atameze neza mu bwonko ariko akaba abasha kumwitaho neza cyane.

Aha ni kwa muganga, uyu nguyu ni umurwayi, aho arimo aragerageza gufata imiti cyangwa se akaba ari umuganga ushinzwe kwita ku murwayi, ababa bageze mu za bukuru kugira ngo babashe gukurikirana ubuzima bwe neza.

Ni ku kigo gishinzwe kwita ku bantu bageze mu zabukuru aho bari bari gufungura iri shami aho ushobora kujyana uwawe uri mu zabukuru bakaba babasha kuyitaho mu buryo bw'ubuzima, mu buryo butandukanye ndetse n'uburyo bw'ibyishimo urabonahangaga babababazaniye abantu babasusurutsa bishimye cyane.

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe kwigisha abana bafite cyangwa se bavukanye ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Aho baba bafite nk'ibibazo by'ubumuga cyangwa se ibibazo byo mu mutwe, aho uyu mwarimu abasha kubitaho, akabigisha neza.

Nani kominikabo dizizizi NCD, iki ni ikigo gishinzwe gukurikirana cyangwa se kurwanya cyangwa se kuvura indwara zitandura, indwara umuntu ashobora kurwara ariko nyine ukaba utayanduza mugenzi wawe, iki akaba ari ikigo gishinzwe kurwanya izi ndwara.

Aha tureba ni kwa muganga. Aha ngaha akaba ari ububiko bw'imiti y'abarwayi iba igiye itandukanye, ikaba ibitswe mu buryo bwizewe kandi butatuma iyi miti yangirika. Bagenda bayikuramo bayishyikiriza abaganga mu buryo bugiye butandukanye.

Aya ni amazi iki ni ikirahure ndetse n'icupa ry'amazi aya mazi akaba agufasha kuba wagira ubuzima bwiza amazi noneho nko muri iki gihe tugezemo cy'izuba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aya mazi agufasha kutuma no kutagira ibindi bibazo nko kuribwa n'umutwe n'bindi bitandukanye.

Uru ni uruboga rwatsi ruhingwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho uru ruboga rubasha kuvura ibintu bitandukanye, aho ushobora kurwifashisha mu kuvura imirire mibi cyangwa se n'ibindi birwara bigiye bitandukanye.